Abantu batandukanye harimo umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akaba apfukamye hasi ari kumwe n'umugabo wambaye agapira gafite ibara rijya gusa n'umundo n'ipantaro ifite ibara rijya gusa n'umweru akaba ari kumuhugura mu bijyanye no gutanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo cyo kwikubita hasi akaba ari kwerekera n'abandi bahagaze bari kureba ibyo bakora.

Abantu batandukanye bicaye hagati yabo hagiye harimo intera, bambaye imyenda itandukanye bose bakaba bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari icyapa kinini gifite ibara ry'umweru, harimo n'ibara ry'umutuku n'irindi bara rijya gusa umukara, icyo cyapa kiba kiriho ibirango bibiri, hakaba ari ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'icya sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda, muri icyo cyapa hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambayeho ijile ifite ibara ry'umutuku yambarwa n'abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba aryamye ku gatanda gafite ibara ry'ubururu, akaba ari gutanga amaraso.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru hakaba hari n'urukuta ruriho ibara ry'umukara, muri icyo cyumba akaba harimo agatanda gafite amashuka afite ibara ry'umweru ndetse n'umusego ufite ibara ry'umweru, muri icyo cyumba hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo n'utumeza turimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo ibikoresho bifite ibara ry'umweru harimo n'umutuku n'ubururu, muri icyo cyumba cy'ivuriro hakaba harimo umuganda wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru akaba anambaye ga z'umweru, imbere yiwe hakaba hari icyuma gikozwe mu cyuma kiriho ibikoresho bitandukanye.

Abantu benshi bicaye bashushanyije ikiziga, bicaye hagati yabo harimo intera, bicaye ku ntebe z'umweru bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye harimo: ubururu, umutuku, umweru ndetse n'umutuku, hakaba harimo n'imikara, bose bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba bicaye mu busitani buteyemo indabyo, bakaba bicaye munsi y'igiti

Inyubako ifite inkuta z'umweru ikaba irimo n'amadirishya afite ibara ry'umweru ndetse arimo ibirahure, hakaba harimo utubati tugerekeranyije dufite ibara ry'umweru, turimo imiti igiye itandukanye ifite amabara agiye atandukanye arimo umuhondo, ubururu, ndetse n'umweru.

Abantu benshi batandukanye harimo abaganga b'abagabo ndetse n'abagore n'abandi bantu batandukanye, hakaba bari harimo n'abashinzwe umutekano w'igihugu abasirikare, baka bambaye n'imyenda igiye itandukanye, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite inkuta z'umweru n'ibirahuri by'umukara, hejuru kuri iyo nyubako akaba ariya magambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga ngo '' ibitaro bya gatunda.''

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure, muri icyo cyumba kivuriro hakaba harimo ibitanda byagenewe abarwayi, buri igitanda kiba gifite inzitiramibu ifite ibara ry'umweru, ibyo bitanda hakaba hariho abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere y'ibyo bitanda hariro utugare twagenewe ababana n'ubumuga bwo kutagenda.